Abakorerabushake bari kwandika abantu kugira ngo babone uko baza kujya kwivuza kwa muganga.

Agatara ko mu rugo banikaho amasahane kugira ngo yumuke, birinde abantu kuba barwara indwara zituruka ku mwanda.

Ikimera kitwa tangawizi kimera ubujyakuzimu, kifashishwa nk'ikirungo kandi na none kikifashishwa nk'umuti, mu byo twavugamo gikora nk'umuti harimo ko ari umuti w'ibicurane ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.